Amakaro asa umweru, imodoka ijya gusa umweru iparitse, umugabo w'umwirabura wambaye amarinete, wambaye umupira w'umutuku wicaye, intebe y'umukara, amatara...

Firigo, intebe, etajeri, teremunsi y'umweru, terimunsi y'umukara, isahane puberi, amakaro, akabaraza.

Imiryango ibiri ifunguye, ibyuma biri ku miryango, ibirahuri by'umukara, idirishya rifunguye, icyapa kiriho amagambo y'ubururu, amagambo y'umutuku, icyapa cy'ikirangantego cy'umukara...

Igikuta cy'umweru, igikuta cya move, intebe, ameza, imisego y'umutuku, ururabo, itara, amakaro, ibirahure, insina, ibiti, ibaraza.

Akazu k'umuhondo, icyapa cy'umuhondo, ikindi cy'umutuku, amagambo y'umukara, icyapa kiriho ikirango cy'ubururu, igikapu cy'umukara.

Inzu irimo amakaro, umugabo, umugore, ipantaro y'ubururu, ishati y'umweru, imitako, amafoto, ameza, intebe, amatara, umugore wambaye ikanzu.

Intebe, tereviziyo, amakaro, umwana, umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umweru, tereviziyo, ameza, icyapa kiriho ingagi, umugore wambaye ingofero.